Ishuri abanyeshuri bigiramo, intebe bicaraho, ikibaho bandikaho bari kwiga, bityo bikongera ubumenyi bw'abanyeshuri, bakaziteza imbere bamaze gukura, maze bakabona n'amafaranga yo gukoresha.

Ishuri abanyeshuri bigiramo kugira ngo bunguke ubumenyi maze bazabukoreshe biteza imbere, maze bafashe n'abandi gutera imbere babone n'amafaranga yo kubatunga.

Rabo imeze neza, ifite isuku, harimo intebe, utubati n'ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga.

Ishuri rimeze neza rifite isuku harimo intebe zo kwicaraho hariho ikibaho gishushanyijeho ibikoresho by'abanyeshuri.

Ishuri abanyeshuri bigiramo bambaye imyenda yabugenewe, bafite ibikoresho bihagije bifashisha bari kwiga, kugira ngo bakarishye ubumenyi maze bazajye ku isoko ry'umurimo maze babashe kwiteza imbere.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe, bari kwiga gusuka kugirango ngo bazabashe kwiteza imbere, bateze imbere n'igihugu cyabo, bityo babeho neza bishimye.

Igikoni bateguriramo amafunguro yo kurya. Abashefu bambaye imyenda zabugenewe, mu gihe bari guteka. Bafite ibirungo bitandukanye bakoresha bari guteka kugira ngo ibiryo biryohe maze babihe ababikeneye.

Ishuri ryabugenewe ryigirwamo imyuga, abanyeshuri bambaye impuzankano, n'ikasike zo kubarinda, n'ibikoresho bifashisha bari kwiga, kugira ngo babone ubumenyi buhagije, bizabafashe kubona amafaranga azabatunga.

Abantu bishimye bambaye neza bazindukiye mu kazi kabo barimo baraboha uduparato n'uduseke.

Inzu bigiramo abanyeshuri, ifite ibikoresho bitandukanye bifashisha bari kwiga, bityo bakiyongera ubumenyi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bakajya ku isoko ry'umurimo, bakabona amafaranga yo kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe, biga ubukerarugendo, bagiye gukora vizite, kureba uko ingagi ziteye, ubusitani bwiza cyane bicayemo, maze bakagira ubumenyi buhagije, maze bikazabafasha kwiteza imbere.

Icyumba abanyeshuri bifashisha bari kwiga， ibikoresho bitandukanye bifashisha，kugira ngo biyongerere ubumenyi， bityo bazage ku isoko ry'umurimo， babashe kwiteza imbere.

Umuntu wambaye iniforume，hari ibikoresho by’umuriro w’amashanyarazi， arimo kureba ko bikora neza， nta kibazo bifite.

Icyumba abanyeshuri bigiramo, intebe bicaraho, n'ameza bandikiraho n'utubati babikamo ibikoresho byabo, kugira ngo bitangirika maze bagakarishya ubumenyi.

Icyumba abanyeshuri bigiragamo. Kirimo ibikoresho bitandukanye bakoresha bari kwiga kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho. Maze bazajye ku isoko ry'umurimo bakore babone amafaranga yo kubatunga n'imiryango yabo.

Abanyeshuri bambaye iniforume zabugenewe bari mu cyumba kigirwamo ikoranabuhanga, kirimo ibikoresho bifashisha bari mu bushakashatsi kugira ngo bunguke ubumenyi bwisumbuyeho maze buzabafashe gutsinda neza amasomo yabo.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe bafite n'ibikoresho bitandukanye, bifashisha bari kuvura abarwayi kugira ngo bongere bamererwe neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano basa neza barishimye bari mu masomo bafite ibikoresho bifashisha bari kwiga.

Ikigo cy'amashuri kigirwamo. Abanyeshuri bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo bajye ku ishuri, bunguke ubumenyi bazajya bifashisha mu buzima busanzwe, maze babone amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ishuri rimeze neza cyane rifite isuku. Ririmo ibikoresho bitandukanye bifashisha abanyeshuri bari kwiga, kugira ngo biyungure ubumenyi bityo bazasohoke bajye ku isoko ry'umurimo bameze neza cyane, bibafashe kwiteza imbere bateze imbere n'Igihugu cyabo.

Itsinda ry'abanyeshuri biga umuziki bambaye imyenda yabugenewe bafite ibicurangisho bitandukanye bifashisha bari kuririmba kugira ngo ababakurikiye banyurwe bumve baryohewe n'ayo majwi.

Icyumba abanyeshuri bigiramo， gikoze neza， intebe bicaramo bari kwiga，maze bakongera ubumenyi bwabo， bityo bakaziteza imbere n'igihugu cyabo.

Ishuri bigiramo rifite ibikoresho bihagije ,bifashisha bari gusudira .Imyenda yabugenewe bifashisha bari kwambara kugira ngo batangiriza ubuzima bwabo.

Inzu bifashisha bari kwiga. Irimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bityo bakongera ubumenyi. Bakazajya ku isoko ry'umurimo guhatana ,bakabona akazi bakabona amafaranga yo kwifashisha bari kwiteza imbere.

Abantu bambaye iniforume bafite imashini barimo gusudira hirya hari ingorofani hari ibyuma hari n'inzugi hari na ga zirambitse hasi.

Inzu irimo ibikoresho bya muzika byifashishwa n'abanyeshuri bari kwiga umuziki, kugira ngo babimenye neza maze bazataramire abantu neza cyane babone amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe.

Mashine zifashishwa mu ikoranabuhanga ,abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, byabafasha gukarishya ubumenyi bwabo ,bityo bakazatanga umusaruro uhagije maze bakiteza imbere n'igihugu cyabo.